Igikoresho cyifashishwa mu kurwanya inkongi y'umuriro. Aho kigaragara gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara hakaba n'ikindi kiri ku ruhande gifite ibara ry'umweru harimo umukara muke ndetse n'umutuku muke. Aho bimanitse ku gikuta kandi byifashishwa igihe cyose bikenewe mu kuzimya umuriro bigomba kuba biri ku nyubako hafi ya.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kigizwe n'amabara y'umweru umutuku ndetse n'umukara kikaba kimanitse ku gikuta aho kihakurwa kigiye kwifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, bagishyira hafi aho bashobora kucyitabaza byihuse.

Uwari umuyobozi w'igihugu mu mu mwaka wa 1994 akaba yaritwaga HABYARIMANA Jouvenal, aho agaragara mu ifoto ari imbere y'irangururamajwi.

Ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri kigaragaraho umuyobozi ugitwaye ndetse n'uwo atwaye, bafite uturindadamutwe bambaye imihondo, ugitwaye yambaye umuhondo yaba ku karindamutwe n'ikindi yambaye mu gatuza.

Ikinyabiziga cyo gutwara abagenzi ndetse n'aho kwicara mu gihe umugenzi ategereje ikinyabiziga kimujyana, kikaba kigizwe n'ibiziga bine ari kinini ndetse kijyamo abantu benshi, hakaba hari abantu bicaye bategereje ibyabo ko biza bitewe n'agace buri muntu wese ajyamo.

Imodoka nini itwara abantu ndetse n'ibintu iri mu ibara ry'umweru, akamodoka gato gatwara abagenzi imbere gato hari ibidukikije byiganjemo ibiti birebire.